Icyapa cyamamaza gifite amabara y'umweru nubururu kiriho amagambo avuga ngo humura turi hano ku bwawe kiriho umuntu uryamye mu ntebe ufite imisatsi y'umukara.

Igipapuro gisa umuhondo cyanditseho ubwisungane mu kwivuza kirimo amabara umutuku, n'umukara, n'ukuboko k'umuntu w'inzobe gufite ikaramu mu ntoki n'agashushanyo.

Urupapuro rusa umweru n'ubururu, rwanditseho aho babikiriza amafaranga ha Kigali, urakagaruka neza Paul mu rugo, kwishyura ikarita, ruriho imibare, zeru umunani umunani kabiri, ubunyenyeri bwinshi.

Imodoka y'umweru ya Suzuki yanditseho Kigali, igurishwa miliyoni cumi n'umunani. Iparitse ku tubuye, tugiye dusobekeranyije, puberi, senyenge ziriho imizi ifite uturabyo tw'umweru , ibiti, ipoto.

Ikibuga kinini k'ibitaka kirimo amabuye, giparitsemo imodoka nyinshi, zifite amabara amwe, ziteye kimwe, bikikijwe n'ibiti byinshi, inzu z'amagorofa amanini n'amatoya.

Amafaranga ibihumbi bitanu by'amanyarwanda yakorewe muri banki nkuru. Amagambo y'umukara, uduseke tubiri imirongo isobekeranyije iteretse ku meza ya kaki.

Ibicupa by'amazi birindwi bimanitse bitambitse, ingufuri zifunze, umuryango ufunguye, igikuta gifiteho amabuye, hasi hasa umweru n'ibyuma.

Akabido gateretse ku kintu gasa umweru karimo n'ibintu mo imbere gafiteho agapapuro kanditseho amagambo y'umukara n'umweru, inyuma hariho umuntu wambaye imyenda y'ubururu hasi no hejuru, hasi hari isima.

Telefone ebyiri zisa umukara, zihagaze ahantu hasa umweru, imwe irimo imibare, gatatu, zeru, zeru, zeru, akadomo, zeru, zeru, indi irimo idarapo rya Nigeria, irimo agapupe k'ukuboko.

Urupapuro rw'ikigo gishinzwe kwishyura imisoro ruriho ikirangantego cy'u Rwanda, ruriho amagambo atandukanye imibare myinshi ariyo rimwe n'amazeru menshi, kabiri, icyenda rwanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Inzu z'amagorofa atandukanye zisizwe amabara adasa zikikijwe n'ibiti, amatara yo ku muhanda imwe muri zo yanitseho imyenda hejuru.

Ubwiherero, ubwogero buri kumwe naho umuntu yakarabira bwa kizungu, hari aho gushyira imyanda, hari n'icyo gukoresha mu gihe uvuye mu bwogero.

Inzu usize ibara ry'ivu ifite amadirishya y'ibirahure igeretse kabiri, hejuru hakoreramo ikigo gihagarariye gitanga ubwishingizi bwa yuweyipi, hasi hari icyuma gitanga amafaranga cya banki ya Kigali gikora amasaha makumyabiri n'ane mu minsi irindwi.

Tagisi vuwatire yo mu bwoko bwa yego kabusi ushobora guhamagara iriya nimero icyenda rimwe icyenda rimwe ikaza ikagutwara aho waba uherereye hose kandi batanga serivisi nziza n'icyombaziho .

Inzu y'agashami mu bwisungane mu kwivuza iri i Nyamirambo, igeretse rimwe ifite amadirishya atatu n'urugi rufunguye, hasi hari amabuye agiye agerekeranyije isize ibara rya kaki.

Inzu y'ubwishinngane mu kwivuza bwa saniramu, abantu bahagaze umuzungu umwe mudasobwa enye imeza isa umweru, igikuta gisa umukara amatara ari kwaka.

Umukobwa w'inzobe wambaye urunigi, ishati y'umweru, imisatsi y'umukara, fone ku gutwi wasetse. Ku ruhande handitseho amagambo, gera ku nzozi zawe n'iguzanyo itazigamiye ya banki, urupapuro rw'umweru.

Abantu benshi bahagaze, abagabo, abana bamwe bambaye ibirenge, abandi bambaye amakabutura, abandi basetse, abagore babiri bahetse abana, itomati ziri mu dutebo, amabati...

Akazu gato gafunguye amadirishya kaho bacururiz amayinite yo guhamagara karimo abantu babiri, umwe wambaye isaha, undi wambaye, umupira utukura, umutaka, igiti, ikaye isa umweru.

Inzu y'ibyuma isa umuhondo, ifite amadirishya abiri, icururizwamo amayinite, ihagazeho umuntu wambaye umupira w'umweru n'ubururu, iri mu muhanda w'ibitaka, hepfo hari abantu barimo kwambuka umuhanda.

Moto y'umukara y'ikigo gishinzwe kuzana ibyatumwe ku mbuga nkoranyambaga, iparitse ku muhanda wa kaburimbo, abantu babiri, umwe wambaye umupira usa icyatsi, undi wambaye ishati isa umweru, ipantaro y'umutuku n'agapfukamunwa ufite umusatsi, igipangu gisa ubururu.

Inzu igeretse ya etage ifite igipangu cy'umukara. Uduti tubiri turi kumwe n'amabuye hanze hari amabuye agiye asobekeranyije igiti handikishijweho amagambo y'umukara, avuga ngo inzu yo muri Kigali ikodeshwa.

Igikoni kirimo utubati dufite amabara y'umweru n'umukara, aho kogereza ibyombo, aho gutekera amashyiga, aho gushyushya ibiryo, aho kubika ibiryo mu buryo bumwe kugirango bitangirika, mu ruganiriro harimo intebe isa icyatsi n'imeza.

Inzu isize irangi ry'umweru, ifite ama esikariye azamuka n'andi amanuka, amatara ari kuruhande, amadirishya, inzugi, yanditseho amagambo y'umukara avuga ngo ibihumbi magana abiri ngo nibyo wabona muri kigali.

Inzu igeretse rimwe isize amabara umweru, umukara n'iryivu igabanyijemo kabiri ifite imiryango ibiri amadirishya ane.

Inzu ikodeshwa ibihumbi magana atatu, ifite urusenge Risa umutuku, n'indi ifite amabara y'ubururu n'umweru, ifite ibipangu bifite amabara asa, rumwe rurafunguye urundi rurafunze, rufite n'uruzitiro rumwe, inyuma y'uruzitiro hari umuhanda w'ibitaka.

Inzu igeretse rimwe ifite amadirishya atatu n'uruzitirwo rwubakishije amabuye n'amatafari ya mpunyu, urugi rusize irangi ry'ivu, umweru n'umutuku, hateyemo igiti n'urusinga rw'amashanyarazi.

Umugabo wambaye ingofero y'ubururu amadarubindi, uri guseka wambaye umupira wumweru ndetse ufite mudasobwa mu ntoki ze. Ari ku gapapuro k'ubururu kandidikishijweho amagambo yumweru ndetse n'ayumuhondo yanditswe mu kirimi cyamahanga cyicyongereza.

Amazu abiri ageretse rimwe yinjirwa ahantu hatandukanye, afitemo ibara ry'ivu iry'umweru rigizwe n'imiryango amadirishya afite amabara y'ubururu, imbere y'ayo hari umuntu uhagaze m'umuhanda.

Inzu icururizwamo imyenda ifite amabara y'umweru n'ibyuma ku ruhande bitangira abantu mu rwego rwo kugira ngo hatagira ukora impanuka harimo abantu benshi n'imyenda myinshi.

Umugabo wambaye ingofero y'ubururu amadarubindi, uri guseka wambaye umupira wumweru ndetse ufite mudasobwa mu ntoki ze. Ari ku gapapuro k'ubururu kandidikishijweho amagambo yumweru ndetse n'ayumuhondo yanditswe mu kirimi cyamahanga cyicyongereza.

Abagabo n'abagore n'abasheshakanguhe bafite impapuro z'umweru bicaye bategereje kwakirwa, hasi hari sima inyuma yabo hari igikuta gisize ibara ry'umuhondo ukeyeye n'umuhondo udakeye.

Abantu bane bari aho bahahira, bose bahagaze, babiri bambaye imipira itukura, undi wambaye umupira w'umukara, ufite ubwanwa, wambaye rinete, uri kureba muri mudasobwa, ufite ibiribwa.